Umusaza n'umukecuru bicaye mu rugo mu ruganiriro, aho umusaza agiye gufata imiti ndetse n'umukecuru arimo aramwunganira, amwereka uburyo imiti ikwiye gufatwa ndetse n'ibiyigize ku gapapuro kabiranga. Hari n'ikirahure cy'amazi imbere ye kimufasha gufata ya miti neza.